Abagabo babiri n'umugore umwe, harimo umugabo wambaye amarinete banambaye amashati abo bagabo babiri, bari kwamamaza ubwishingizi bwa Saniramu, batanga ubwishingizi bw'abantu, ibintu ndetse n'ibinyabiziga.

Icyapa kiri mu ibara ry'umutuku n'umweru kiriho amagambo yandikishije umutuku n'andi yandikishije umweru, kiriho umugabo wambaye ishati ahagaze arimo araseka, icyo cyapa hasi yacyo hakaba hasa umweru n'ipoto rihagaze risa umweru.

Umuntu wicaye uri gusoma igitabo wambaye agapira k' icyatsi, ufite agakombe mu ntoki, yicaye mu ntebe zijya gusa umweru. Hakaba hari igikuta cyubakishije amabuye n'amadirishya arimo umukara n'umweru kuruhande rw'inte harirabo

Kompanyi y'ubwishingizi bita Radiyanti, iri kwamamaza ubwishingizi bw'ubuzima bwawe, bafite ndetse banagira n'ubwishingizi bw'ibintu, yaba ubwishingizi bw'ibinyabiziga bigiye bitandukanye.

Uwo ni umukozi wa radiyanti, kompanyi itanga ibijyanye n'ubwishingizi, yaba ubw'ibinyabiziga n'abantu n'ibintu.

Kompanyi y'ubwishingizi iri kwamamaza ikora ubwishingizi bw'ibintu abantu ndetse n'ibininyabiziga byawe iyo byagize ikibazo, hari ipoto y'amashanyarazi isakaza amashanyarazi muri ako gace irimo.

Company y'ubwishingi bita britam iri kwamamaza ubwishingizi bwihariye kandi buhendutse ku matsinda n'ibigo bitoya, kandi britam itanga ubwishingizi bw'abantu n'ibintu ndetse n'ibinyabiziga.

Icyapa cyamamaza kiriho ifoto y'umugabo n'umwana harimo amagambo yandikishijwe asa umweru ndetse n'andi asa umuhondo n'umukara, n'icyatsi, cyari kiri gukoreshwa cyamamaza kiri gushishikariza umuntu gufungura konti.

Serivisi itangwa kuri murandasi na banki ya afurika, yo kubitsa, kubikuza, kohereza, kwishyura serivisi cyangwa kugura umuriro no kohereza amafaranga ashyira kuri telefoni yawe.

Serivisi yo kuri murandasi itangwa na banki harimo kubikuza ndetse no kubitsa kohereza amafaranga ku yindi banki cyangwa se kohereza amafaranga kuri telefoni yawe avuye kuri banki.

Serivisi za banki zigufasha kuba wareba amafaranga ufite kuri konti yawe, ndetse bikaba byagufasha kuba wanakohereza, kubikuza cyangwa se kureba amafaranga wakiriye.

Serivisi ya banke zitangwa kuri murandasi, aho ushobora kuba wareba amafaranga waba warakiriye cyangwa waba warasohoye muri uko kwezi urimo cyangwa ukwashize.

Serivisi ya banki yitwa Giti ikorerwa kuri murandasi itanga serivisi zo kubitsa kubikuza kohereza cyangwa se kwakira amafaranga, no kohereza amafaranga kuri telefone yawe avuye kuri banki.

Iyo ni serivisi ya banke itangwa yo kuri murandasi, aho ushobora kohereza amafaranga, kuyakira cyangwa se gukura amafaranga kuri telefone uyohereza kuri banke yawe.

Iduka ryiza cyane ricuruza imitako ndetse n'imyenda ya kinyarwanda, rikaba rifite igikuta cy'amabuye ahiye ndetse n'amatara ku nkuta meza cyane n'ibiti bigiye bihakikije bigiye bitandukanye.

Iduka ricuruza ibintu bigiye bitandukanye, rifite mo imbere hasize amarangi meza ibirahure byiza by'ibara ry'umutuku, ndetse no hejuru ku gisenge rikaba rigiye rifiteho amatara agiye atandukanye.

Iduka ricuruza imyenda yabagabo igiye itandukanye hari umukiriya wari umaze guhaha imyenda aje ngo afashwe uburyo yakwishyura.

Akabati kabitsemo imisego, inanasi, ako kabati kakaba gasa umweru, iruhande hakaba hari n'akandi kabati gatoya karimo imisego, gasa umukara, hasi hakaba hashashe amakaro, amakararo y'umweru.

Iduka ricuruza ibintu bigiye bitandukanye ariko bitari ibiribwa by'imyambaro ndetse n'ibindi byo gushyira muri saro nk'imitako bikaba bisa neza, hanze y'iduka hakaba haparitse imodoka ifite ibara ry'umweru.

Umugore wambaye agashati k'umweru ndetse n'ipantaro y'umutuku uri mu iduka ricuruza imyenda igiye itandukanye afite ishati mu ntoki.

Iduka ricuruza imyenda igiye itandukanye, y'abagabo ndetse n'abagore, rikaba rifite inzugi z'ibirahure nziza cyane ndetse n'amabara y'umweru mo imbere.

Iduka ricuruza ibintu bigiye bitandukanye rikaba rifite igikuta gisa umukara n'umweru ndetse n'amatara hejuru n'amakaro hasi, imeza zikaba zisa umweru.

Iduka ricuruza imyenda igiye itandukanye, yaba iy'abagabo ndetse iy'abagore, ikaba ifite amarange meza ndetse n'imyenda ifite amabara agiye atandukanye bitewe nayo ukunda.

Iduka ricuruza imyenda igiye itandukanye, hari umukiriya umaze kugura akaba ari gufashwa uko yakwishyura ibyo amaze guhaha, bakaba babimupfunyikira ngo abitware.

Ahacururizwa imyenda igiye itandukanye ndetse n'imitako y'ubwoko bwinshi hakaba hakikijwe na sima ndetse n'igikuta cy'umweru n'itara hejuru.

Abagore bane ndetse n'umugabo umwe mu bagore bane harimo umunyamahanga umwe, inyuma yabo hari igishushanyo cy'imodoka yo mu bwoko bwa Toyota.

Imodoka yo mu bwoko bw'ijipe yo muri bibiri na cumi n'umunani, ikaba iri kugurishwa miliyoni mirongo itadatu n'eshanu kandi akaba ari imodoka nziza ifite amapine manini ndetse n'amatara maremare cyane.

Kompanyi icuruza amamodoka ayo Akagera, ikaba igurishije imodoka iri mu bwoko bwa kiya, inyuma hakaba hari ibikuta by'ibirahure.

Ahacururizwa imodoka zigiye zitandukanye, hakikijwe n'ibiti bigiye bitandukanye ndetse n'inyubako ndende, izo modoka zikaba ziri mu ibara ry'umweru ndetse n'umukara.

Inzu y'ubucuruzi bw'ibarizo aho babaza intebe mu bwoko bw'imbaho utumeza n'intebe zibajwe ziriho n'imyenda hari umuhanda wegeranye n'iyo nzu uwo muhanda uriho ikinyabiziga cya moto.

Ahagurishwa amamodoka yo mu bwoko bwa toyota, hakaba hari imodoka ifite ibara ry'umukara, intebe z'umukara, ndetse na taburo ureberaho amashusho ndetse n'indi ikwereka inyuma.

Imodoka ya kiya, ya bibiri na cumi na kabiri, ikorerwa mu gihugu cya Koreya, ikaba iri kugurishwa amafaranga y'u Rwanda angana na miliyoni icumi.

Umuhanda wa kaburimbo ukikijwe n'agahanda k'abanyamaguru ndetse n'ubusitani bwiza bukikije n'ipota ry'amashanyarazi rihakikije risakaza amashanyarazi muri ako gace hegereye kompanyi igurisha amamodoka agiye atandukanye.

Kompanyi icuruza amamodoka ndetse n'ibice by'amamodoka ariyo Akagera, ikaba yari imaze kugurisha imodoka ku mu kiriya wabo, hakaba hari abagabo bane bahagaze ndetse n'imodoka eshatu zibari inyuma.

Ahagurishwa amamodoka agiye atandukanye harimo ifite ibara ry'umweru ndetse n'umukara, n'ifite ibara ry'umutuku hakaba hanakikijwe n'ibiti bigiye bitandukanye.

Ikamyo ihagaze ku bantu ari amabuye imbere hari abaturage babiri bari hunana imfunguzo turimo afite agakayi mu ntoki ikika gisa umweru.

Umuntu wicaye imbere ya mudasobwa, mudasobwa iteretse ku meza y'umukara, hirya hari ikimashini gisa umweru hino hakaba udupapuro dusa umweruru ndetse n'ibirahure n'inkuta zisize umweru.

Aho naho abantu bafashirizwa bakeneye serivisi za banki zigiye zitandukanye; harimo yaba kubitsa, kubikuza amafaranga, cyangwa se kohereza amafaranga ku zindi konti zigiye zitandukanye.

Inote y'igihumbi y'amanyarwanda, ikaba isa ubururu, ikaba irimo ibintu bigiye bitandukanye, amafoto atandukanye, harimo ingagi, ahandi harimo amazu, n'intore iri kubyina ibya kinyarwanda.

Banke bita kesibi ikaba iri gutanga serivise ku bakiriya babo. Hariyo serivise yo kuba wabikuza cyangwa se ukubitsa amafaranga yawe.

Inote isa umutuku y'amafaranga y'amanyarwanda, ikaba yanditseho amafaranga ibihumbi bitanu, ikaba ishushanyijeho abantu bari kubyina ndetse n'inzu, hari n'amagambo yandikishijwe ibara ry'umukara.

Ibiribwa ndetse n'ibinyobwa harimo ibinyobwa bikomoka ku mata, harimo amata na kivugutora ndetse n'imigati ku ruhande.

Abantu bicaye ku ntebe zisa umweru, iyo nzu bicayemo ikaba ifite inkuta zisa umweru, n'utubati turimo utubido, kaba abafite amatasi arimo amata.

Mu iduka harimo ikawa ndetse n'ibinyobwa bitera imbaraga biri ku kabati na firigo iri impande yabyo.

Ahatunganyirizwa amata kugira ngo ajyanwe ku isoko abe yagurishwa, hasi hafite amakaro ndetse no ku bikuta hasize irangi ry'umweru risa neza ndetse n'amamashini ashinzwe kubika ayo mata.

Ishashe amakaro y'umweru hasi n'inkuta zisa umweru, imbere hakaba hari igitaka ndetse n'ibiti, hakaba hari n'ibinyabiziga biha paritse igare na moto, moto yikoreye akabido.

Umugore wicaye uri kunywa amata mu itasi y'umweru, akaba afite telefone mu ntoki, iruhande rwe hakaba hari icyapa cyamamaza coka kiri mu ibara ry'umutuku.

Ayo ni amaduka acuruza ibintu bigiye bitandukanye umuntu akenera bya buri munsi hanaparitse amamodoka ndetse hari n'abagenzi bari gutambuka.

Ifunguroryanditseho amagambo inyange aya magambo yandikishijwe ibara ry'ubururu n'umweru inyuma yayo hari akabati karimo ibinyobwa bigiye bitandukanye inzu ikaba isize irangi ry'ubururu n'amadirishya akaba asa ubururu iki kigega kikaba gihagaze ku makaro.

Muri botike icuruza ibiribwa bigiye bitandukanye, harimo abagabo babiri, umwe aje guhaha undi n'utanga serivisi zo gufasha abaje guhaha, muri iryo duka harimo ibintu bigiye bitandukanye, ari byo amazi, amata, ikivuguto ndetse n'ibindi bintu byose bikomoka ku ifarine.

Uburyo bwo kwishyura ukoresheje muri murandasi aho ushobora kubitsa, kubikuza ndetse no kwakira amafaranga, cyangwa se ukaba wayohereza kuri banki yawe avuye kuri telefone bikorwa na kompanyi yitwa emutiyeni.

Uburyo bugezweho bwo kwishyura ukoresheje murandasi bwa banki ayi emu butanga haba kohereza kubitsa kubikuza ndetse no kuba wakakira amafaranga.

Sisiteme yo kwishyura amafaranga agiye atandukanye, aho bigufasha kohereza kwakira kubitsa cyangwa se kuba wa wikuza amafaranga yawe, ikaba ari sisiteme ikoreshwa n'amabanki, ndetse n'ibigo bitanga serivisi z'itumanaho.

Ni mesaje uhabwa n'ikigo kidufasha kwakira amafaranga no kohereza aricyo emutiyene, ni mesaje igaragaza ko uyu muntu yakiriye amafaranga ibihumbi magana atanu.

Kinyi kompanyi ya sepeni itanga serivisi zo kohereza ndetse no kwakira amafaranga ndetse no kuyabikuza uyashyira kuri telefone yawe, mu buryo bushyashya bw'ikoranabuhanga bugezweho bufasha abantu ukaborohereza.

Uburyo bwo kuri murandasi bukoreshwa wishyura amafaranga akava kuri banki yawe ukishyura ibicuruzwa cyangwa se ukoherereza umuntu amafaranga bikorewe kuri murandasi.

Uburyo bwo kwishyura kuri murandasi, cyangwa se yaba kohereza amafaranga ku nshuti yawe, ndetse biranashoboka y'uko, ushobora kuba wakura amafaranga kuri banki ukaba wayashyira kuri telefone yawe.

Uburyo bakoresha bishyura babitsa cyangwa se bakira amafaranga kuri murandasi, aho bukoreshwa n'amabanki cyangwa se ukaba wajya kuyabikoza ku bantu bakorana n'izo kompanyi bakayaguha.

Iyo ni kompanye ya emupesa, itanga serivise yo kohereza amafaranga kuri banki zigiye zitandukanye kandi no kuyabikuza bayakohereje.

Iyo ni serivisi itangwa na kompanyi emutiyene idufasha kohereza, kwakira, kubitsa, kubikuza no kuba twakura amafaranga kuri banke tuyashyira kuri telefone zacu kugira ngo adufashe kuba twagira ibyo twishyura.

Ivunjisha ry'amafaranga agiye atandukanye hakaba harimo amatanzaniya ashyirwa mu banyarwanda, bikorwa n'ibigo byabiherewe ububasha na leta by'u Rwanda bakurikije amabwiriza baba bahawe mu buryo bwemewe na leta.

Kompanyi itanga serivisi y'ivunjisha ry'amafaranga y'amanyamahanga ashyirwa mu manyarwanda, ndetse ikaba inatanga serivisi zo kuba wakakira amafaranga avuye hanze.

Ivunjisha ry'amafaranga y'amayero bayashyira mu yandi mafaranga, bikaba bikorwa na kompanyi zibifitiye ububasha zahawe na leta zo kuba zavungisha ayo mafaranga y'ibindi bihugu, ayashyira mu amafaranga y'icyo gihugu cyabo.

Ibyo ni ibiciro by'ivunjisha ry'amafaranga uko bihagaze bitewe n'amafaranga y'igihugu ufite, ibi bikaba byerekanwa iyo ugiye muri kampani zivunjisha amafaranga.

Aya ni amanoti y'amafaranga akoreshwa y'amadorari, amayero ari mu mabara agiye atandukanye, harimo asa umweruru, ubururu, ndetse iryo rikaba rishushanyijeho umuntu mu maso.

Amafaranga y'icumi y'amanyakongo akaba uyajyana kuri kompanyi zabuherewe uburenganzira na leta, zikora ivunjisha ry'amafaranga aho uzana amafaranga y'ikindi gihugu bakaba bayaguha mu mafaranga y'igihugu wifuza.

Iki ni igikorwa kiri kuba hagati y'abantu babiri aho umwe ari kuvunjisha amafaranga y'amadolari ayashaka mu yandi mafaranga .

Umuntu uri gukora ivunja n'ivunjisha aho ujyana amafaranga y'amanyamahanga, bitewe n'amafaranga ufite bakaba bayaguha amafaranga y'igihugu wifuza icyo ari cyo cyose.

Ivunjisha ry'amafaranga y'Amanyatanzaniya ashyirwa mu mafaranga y'ikindi gihugu bikorwa na kompanyi zabiherewe uburenganzira mu gihugu zo kuvunjisha.

Ivunjisha ry'amafaranga y'amanyamahanga, aho uzana amafaranga y'igihugu icyo aricyo cyose, bakaba bayaguha mu mafaranga y'igihugu ukeneye, bikaba bikorwa n'ababifitiye uburenganzira bahawe na leta.

Ivunjishwa ry' amafaranga agiye atandukanye y'ibigo harimo; amayero mu manyarwanda, amadolari mu manyarwanda, akaba ari serivisi itangwa n'ibigo bibifitiye ububasha bahawe na leta.

Iduka ritanga serivisi z'ivunjisha ry'amafaranga y'amanyamahanga ashyirwa mu manyayarwanda, ushobora kuba yagufasha iyo ufite amafaranga y'abanyamahangayashaka mu kindi gihugu icyo ari cyo cyose.

Ahantu hatangirwa serivise z'ivunjisha y'amafaranga y'amanyamahanga ishyirwa mu manyarwanda ndetse bakaba banagufasha kuba wakwakira amafaranga avuye hanze akakugeraho.

Iryo ni iduka rivunja amafaranga agiye atandukanye y'ibihugu bigiye bitandukanye ku isi rikaba rikikijwe n'indi nyubako ifite amakaro aho binjirira.

Serivisi itangwa na kompanyi y'inshuti yo kuvungisha amafaranga agiye atandukanye, harimo amadolari, amayero ndetse n'andi mafaranga y'ibindi bihugu ushaka kuyashyira mu manyarwanda.

Iduka rikora ibintu byo kuvunjisha amafaranga y'amanyamahanga bayashyira mafaranga yabo, yaba amadorari, amayero cyangwa andi mafaranga y'ibindi bihugu bigiye bitandukanye.

Iduka ritanga serivise z'ivunjisha y'amafaranga aho uzana amafaranga y'ibindi bihugu, bakaba bayaguha mu mafaranga y'igihugu wifuza ndetse bakaba banakira n'amafaranga baba bakoherereje avuye i mahanga.

Inyubako isize irangi ry'umukara yandikishijwe n'amagambo y'umuhondo, hirya hakaba ibipanka bitewe mumabara y'umweru ,ubururu, n'ubururu bwijimye ndetse hakaba imiryango isa umweruru.

Iduka ritanga serivisi ry'ivungisha akaba bashobora kuba baguha amafaranga y'ibindi bihugu cyangwa se wowe ukazana amafaranga y'igihugu runaka bakaba bayaguha mu mafaranga y'igihugu ukeneye.

Ahagurishirizwa ibikoresho bikozwe mu mbaho bigiye bitandukanye, harimo intebe, imeza, utubati twa televiziyo n'ibindi bigiye bitandukanye biva mu mbaho.

Aho hagurishirizwa imbaho zikoreshwa mu kubaka hakikijwe na ruhurura itwara amazi mu gihe k'imvura iyo yabaye menshi, hakaba hakikijwe n'ibiti bigiye bitandukanye ndetse n'inzu y'aho igurishirizwa izo mbaho.

Intebe zikozwe mu bwoko bw'imbaho zikaba zifite imisego y'umweru, intebe zikaba zisize shokora ndetse n'ameza n'utubati, hirya hari n'igitanda.

Imeza ibaje iri mu bwoko bw'imbaho, igiye ikorwa mu buryo butandukanye, hirya yaho hari utubido tw'umweru n'igikuta gisize umweru, ikaba iteretse iyo meza ikaba iteretse kuri sima.

Iduka ricuruza ibikoresho biva mu mbaho, ari byo intebe zisa neza, hasi hakaba hari sima, ikaba ikikijwe n'izindi mbaho zitarakoreshwa.

Ahacururizwa ibikoresho bikozwe mu mbaho harimo intebe, utubati ndetse n'ibitanda bigiye bitandukanye by'amabara wifuza ayo ari yo yose uko yaba ameze.

Iduka ricuruza ibikoresho byo mu nzu bigiye bitandukanye, hakaba harimo intebe ifite irangi rya shokora ndetse n'umweru, hakaba hari n'udutebe two mu nzu, ndetse hakaba hasi hari n'amakaro.

Iduka ricuruza ibikoresho byo mu nzu bigiye bitandukanye, harimo imeza zo mu muburiro ndetse n'izo mu ruganiriro, naho televiziyo yajya, ifite ibirahure ku ruhande n'amarange meza cyane abereye ijisho.

Iduka ritangirwamo serivise yo kugurisha ibikoresho bikozwe mu mbaho, harimo nk'imeza, intebe, utubati, ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye, bikorwa mu mbaho.

Umuhanda wa kaburimbo ugendwamo n'ibinyabiziga bigiye bitandukanye, ukaba ukikijwe n'agahandada k'abanyamaguru ndetse n'ibiti bigiye bitandukanye, hakaba hari n'amatara yo ku muhanda ari kwaka n'inyubako nziza cyane igeretse kane ifite ibirahure byinshi.

Inzu nziza, ifite amarange meza cyane, ikaba ikikijwe n'ibiti bigiye bitandukanye, ndetse n'ubusitani bwiza, akaba ari ahantu wajya kuruhukira wowe n'umuryango wawe, cyangwa n'inshuti zawe.

Ahantu heza ho kuruhukira hari inzu igeretse kabiri, ifite amatafari ahiye ndetse n'amategura, ikaba inafite amarangi meza cyane haparitse imodoka ebyiri nziza z'amabara meza, ikaba inakikijwe n'ubusitani ndetse n'ibiti bigiye bitandukanye.

Amazu ageretse kenshi kandi asa neza hakaba hari imodoka iparitse hanze yo mu bwoko bwa kiya sorento hakaba hakikijwe n'udupasiparume turi gukura, ndetse n'aho kogera bakunze kwita pisine.

Iyo ni inyubako ikorerwamo ubucuruzi bugiye butandukanye, ifite amatara menshi ari kwaka no hanze hari imodoka iparitse.

Aho ni ahantu ho gusohokera hafite ubusitani bwiza bufite ibiti bigiye bitandukanye, bihakikije bihahereza umuyaga mwiza.

Ubusitani bwiza bwo gusohokeramo bukikijwe n'ibiti bigiye bitandukanye ariko hagati hakaba harimo aho abantu bogera baje gusohokera aho hantu .

Inzu isize amabara icyatsi, umweru, ikaba ifite amatara yaka umuhondo, ikaba ifite ubusitani burimo intebe n'ameza, hari n'ibiti bigiye biyiciciza mu busitani.

Ahantu heza ho gusohokera hari aho kogera ndetse n'udutebe tubiri, ku ruhande hakaba hari n'ibiti bihakikije bigiye bitandukanye hari n'abantu bahasohokeye.

Ziri mu busitani intebe zifite umutaka kkuruhande hirya hari ibitiebe zika ziri mu ibara ry'umweru ubusitani bwa busa icyatsi, hirya ka ari amazu y'umweru ndetse n'umuhondo muri ubwo busitanifamo amatara.

Ahantu heza wasohokera hakikijwe n'ibiti bigiye bitandukanye ndetse n'intebe nziza cyane bakunda kwita hoteli, batanga serivisi zo kuruhuka ukaba wanaharira cyangwa se ukasohokana n'umuryango wawe.

Inkingi zisa umutuku zifite na kizimyamwoto isa umutuku, hasi hakaba hasashe amakaro hirya y'inkingi hari ibiti bihateye, hirya y'aho hakaba hari ibindi biti binini byimeza.

Hoteli bita rebanoni ifite amarangi meza agiye atandukanye ndetse n'ibiti biyikikije bigiye bitandukanye, aho abanyamahanga ndetse n'abenegihugu baza kuruhukira.

Inyubako yubatse igeretse kabiri, iri mu mabara y'ubururu kaki n'umweru, hakaba hariho ibyuma biteze bisa umweru, n'amakaro asa umweru, imbere y'inyubako hari ubusitani burimo indabo, ibyatsi n'imbere yaho hakaba hari umuhanda ushashwemo amabuye.

Ahantu ho gusohokera hakikijwe n'ibiti bigiye bitandukanye ndetse n'aho bogera, hakaba hari inzu igeretse kabiri ifite amarange agiye atandukanye ndetse n'amashini ashyushya amazi iyo umuntu agiye kwiyuhagira.

Kompanyi y'ubwishingizi bita buritamu itanga serivisi zo kwishingira ibintu ndetse inyubako yawe n'ibinyabiziga nabyo bakaba babikora.

Imbere mu nzu hakaba hasizemo irangi ry'umweru na kakiyi n'umukara, ni urukuta rwandikishijweho amabara y'ubururu, hasi hakaba hashashe amakaro hasa kaki, hirya hakaba hari n'amakaro asa umukara, n'igisenge gisa umweru.

Inyubako irimo abagabo babiri, imbere y'abo bagabo hakaba hari imeza isa shokora kandi ibyapa byamamaza biri mu ibara ry'ubururu n'icyatsi, hakaba harimo n'amadirishya hakaba hari n'igisenge gisa umweru ndetse n'inkuta zisa umweru. Hasi hakaba hashashe amakaro arimo umukara n'umweru.

Abagabo babiri n'umugore umwe, harimo umugabo ukorera kompanyi y'ubwishingizi ya radiant itanga ubwishingizi ku buzima, ibintu ndetse n'ibinyabiziga.

Inzu ifite ibara ry'umweru, ifite imiryango isize mu ibara ry'ubururu ndetse yanditseho n'amagambo yandikishijwe ibara ry'umweru, umuryango ukaba ufunguye na sima yo isa umutuku.

Intebe y'umukara, imbere ye hakaba hari ameza, ameza ariho mudasobwa n'impapuro, hasi hakaba hashashe sima n'urugi rw'umweru.

Kompanyi y'ubwishingizi ahantu ikorera hagizwe n'ibiro bifite ibirahure byiza cyane ndetse n'amarangi meza n'amatara meza yo hejuru kompanyi z'ubwishingizi zitanga ubwishingizi bw'abantu n'ibintu ndetse n'ibinyabiziga.

Kampanyi bita Ariyanse itanga serivisi z'ubwishingizi . Yaba ubw'ibintu ndetse n'ubw'inyubako zawe. Ndetse n 'ubw'ibinyabiziga bigiye bitandukanye waba ufite.

Kompanyi itanga ubwishingizi bita saniramu, ikaba itanga ubwishingizi bugiye butandukanye, yaba ubw'ibintu, ubw'ibinyabiziga ndetse n'ubwo ku buzima bw'abantu, ikorera mu nyubako ifite amarange meza ndetse n'ibirahure byiza.

Kompanyi y'ubwishingizi bita buritamu itanga serivisi zo kwishingira ibintu ndetse n'ubuzima bw'abantu ikikijwe n'ibyatsi by'giye bitandukanye ndetse n'ibiti bigiye bitandukanye ikaba ari inzu ifite amabara meza ndetse n'ibirahure byiza.

Abantu bicaye imbere yabo hari ameza; ameza akaba ariho amazi; inyuma yabo hakaba hari igikuta cy'umweru; kandi hari ibirahure birimo uturongo tw'umukara na parafo isa shokora; n'ibyapa byamamaza biri mu mabara y'umweru, n'ubururu, n'icyatsi.

Banki yitwa agisesi itanga serivisi zo kuguriza amafaranga, yaba kuba wabitsa cyangwa se ukaba wakohereza amafaranga ku wundi muntu cyangwa wowe ukaba wanayakira. Bakaba banatanga n'inguzanyo ku mafaranga haba hari ingwate cyangwa se idahari.

Abantu benshi cyane mu nzego zitandukanye; abagore, abagabo, urubyiruko bahagaze bakoze uruziga, ndetse nyuma yabo hari amamodoka menshi cyane, biragaragara ko ari igikorwa cyahabereye, ntabwo ndi kumenya icya aricyo, ariko bameze nk'abari gukora inama.

Inzu isize irangi ry'umweru, mo imbere harimo abantu batatu n'icyapa gisa umweru, hakaba hari amagambo yandikishijwe mu ibara ry'umweru, hakaba hari na bafure y'umukara, hirya yayo hakaba hari ururabo...

Bank yitwa Ecobanki ikaba iri kwamamaza uburyo bushya bwo kuba wakwishyura ibicuruzwa byawe ukoresheje ikarita yabo cyangwa se ukaba wakohereza amafaranga, kubitsa, kubikuza.

Abantu babiri bahagaze barindiye serivisi, inyuma yabo hakaba hari abandi bantu bicaye, imbere zaba mudasobwa z'umukara, aho hantu bahagaze hakaba hari amadirishya n'ibikuta bisize irangi rya shokora n'icyatsi n'amakaro asa umweru n'icyapa cyamamaza gisa umweru n'ubururu.

Banki ya ekwiti iri kwamamaza ko bashobora kuguha inguzanyo igera kuri miliyoni mirongo ine ndetse si izo serivisi gusa batanga barabitsa kohereza ndetse no kwakira amafaranga.

Apurikasiyo ifasha abantu kubitsa ndetse no kubikuza, ndetse no kuba wafata inguzanyo, cyangwa ukaba wakohereza amafaranga ahantu hagiye hatandukanye cyangwa ukayakira.

Abagore batatu umwe uhagaze abandi ba biri bicaye bafite amabase arimo indyo zitandukanye, hamwe harimo imineke ahandi hari ibishyimboba, hakaba hari undi wicaye ku mabuye aba utetsemo.

Abantu bahagaze umugabo n'abagore babiri, imbere yabo hahagaze indobo irimo ibiraha, bakaba bahagaze kuri sima, bafite inzu barimo ifite igisenge gisa umweru n'inkingi zisize irangi ryumweru.

Iduka ricuruza imyenda igiye itandukanye harimo; iy'abana, iy'abagabo, amasogisi, imyambaro yo mo imbere ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye.

Isoko rikoreramo amaduka menshi acuruza ibintu bitandukanye harimo: imitako ndetse n'ibikapu bigendanwa, harimo abagabo batatu bambaye imyenda igiye itandukanye, hasi hari sima ndetse n'igisenge kibonerana gitanga urumuri mu iduka mo imbere.

Inyubako iriho ibirahure, amadirishya ari mu turongo tw'umweru, hari mu byapa biri mu mabara y'icyatsi, ubururu n'icyatsi kirimo umuhondo, akaba ari amagambo y'umuhondo.

Isoko rikoreramo amaduka agiye atandukanye rifite amarangi meza rigeretse kabiri, rifite amatara ku mpande ndetse rikaba rifite n'irange ry'umutuku n'umweru.

Umukozi wa kompanyi ya MTN itanga serivisi ari zo kubitsa, kubikuza, kohereza no kwakira, afite umukiriya uje amugana akeneye serivisi imwe muri zo.

Abantu batanga serivise yo kwishyura bakoresheje MTN, serivise ya MTN yo kubitsa, kubikuza, kohereza, kwakira cyangwa se ukaba wakohereza umuntu amafaranga, nta mafaranga ukaswe.

Umukozi w'ikigo cya emutiyeni, utanga serivise zo kubitsa, kubikuza, kohereza, ndetse no kuba wakakira amafaranga, cyangwa ukayavana kuri telefone yawe, uyashyira kuri banke yawe. No kuyakura kuri banke, uyashyira kuri telefone yawe.

Abagabo babiri bahagararanye umwe ari guhabwa serivisi za kompanyi ya emutiyeni. Harimo serivisi zo kubitsa kubikuza, kohereza, kwakira ndetse no gushyira amafaranga kuri banki yawe uyakuye kuri telefoni.

Umukozi wa kompanyi ya MTN, utanga serivisi zo kohereza, kubitsa, kubikuza, kwakira, ndetse no kuba wakura amafaranga kuri banke uyohereza, undi muntu cyangwa ugakura kuri banki uyashyira kuri telefone yawe.

Abakozi b'ibigo by'itumanaho ari byo emutiyeni ndetse na eyateri bakaba batanga serivisi zo kubitsa, kubikuza, kohereza, kwakira no kuba wakura amafaranga kuri banki uyashyira kuri telefone yawe.

Umugabo ufite agaseke mu ntoki ndetse n'umugore uri imbere ye uri gukora mu gaseke, imbere ye hakaba hari ameza asa umukara na mudasobwa isa umukara, inyuma ye hakaba hari igikuta gisa umweruru, icyapa cyamamaza kiri mu ibara ry'umuhondo n'umweru.

Aka ni akazu gakoreramo umukozi we MTN utanga ama inite, arabitsa kuri telefone, akanabikuza, agatanga serivisi zose za MTN.

Umukozi wa kompanyi itwara ibiribwa, ibigeza ku baguzi, ari kwaka serivisi za emutiyeni, zirimo kubitsa amafaranga, kuyabikuza, cyangwa se kuyohereza kuri zindi telefone.

Umukozi wa kompanyi ya MTN itanga serivisi zo kubikuza, kubitsa, kohereza, ndetse no gushaka yuko ujya ku itumanaho rya MTN barabigufasha; ndetse n'iyo ufite ibibazo bigiye bitandukanye ku itumanaho ryabo.

Inzu ya emutiyeni, emutiyeni yandikishijwe amara y'umukara hakaba hasize irangi ry'umuhondo, akaba ari abantu bari kwambukiranya urebye wambaye ishati y'ubururu n'abandi bari ruguru.

Abagabo babiri bari kwishyura abamotari bari babahaye serivisi yo kubatwara babakura ahantu hamwe babajyana ahandi, bakaba bakikijwe n'ibiti bigiye bitandukanye ndetse n'ipoto ry'amashanyarazi ritanga umuriro.

Uburyo bwo kwishyuramo amafaranga nta kiguzi bagusabye, bitewe n'ibintu waba uguze, cyangwa se na serivisi waba uri kwishyura bakaba batagukata amafaranga ya serivisi.

Umukozi wa kompanyi ya eyateri itanga serivisi zo kubikuza, kohereza, kwakira ndetse no kuba wakohereza abantu amafaranga.

Akazu k'umukozi wa MTN utanga serivise zirimo kubitsa, kubikuza, kohereza, kwakira ndetse no kuba wakura amafaranga kuri banki uyashyira kuri terefone yawe cyangwa se kuba wagura simukadi ya MTN.

Umukozi w'ikigo cya MTN gitanga serivisi zo kubitsa, kubikuza, kohereza, kwakira ndetse bakaba banatanga serivisi z'itumanaho zose.

Ako ni akazu k'umukozi wa kompanyi ya emutiyene, idufasha kuba twabitsa amafaranga cyangwa tukayabikuza cyangwa tukaba twohereza ahantu hagiye hatandukanye.

Inzu isize amarangi y'umuhondo n'umweru hamanitse ibyapa, ibyapa biri mu mu marangi y'umuhondo n'umweru n'amagambo yandikishije umukara, ku ruhande hakaba hari ifoto.

Iri ni iduka rikorera kuri murandasi, aho ushobora kuba wagura ibicuruzwa ibyo aribyo byose bigiye bitandukanye, bakaba babikugezaho iwawe utarinze uva aho uri.

Iduka ryo kuri murandasi rishobora kuba ryagufasha kuba wagura amatike y'ibitaramo bigiye bitandukanye, ku biciro bike cyane kandi ikaba yakugeraho aho uri hose.

Abamotari bagera muri batanu batanga serivisi zo gutwara ibintu abantu baba baguze kuri murandasi bakabibagezaho, bakaba bafite amapikipiki yo mu bwoko bw'amashanyarazi.

Umumotari uhagaze, uhagaze mu gahanda k'abanyamaguru, hirya hari kaburimbo, imbere ye hakaba hari icyapa gisa umukara n'indabo na senyenge bigiye bitandukanye.

Abakora akaz ko gutwara ibiribwa byaguzwe kuri murandasi, bafite amapikipiki asa neza bari muri kaburimbo ndetse bakikijwe n'agahanda k'abanyamaguru nd'etse n'biti bigiye bitandukanye.

Iduka rikorera murandasi ricuruza ibintu bigiye bitandukanye riri kwamamaza uburyo ushobora kugura ikintu kikaba cyakugeraho aho waba uri hose muri Kigali.

Inzu ikodeshwa y'ibyumba bine iherereye ku Gisozi, ifite mu imbere hafite amarange meza, hejuru ifite amatara agiye ariho ndetse n'intebe z'amabara atandukanye.

Inzu nziza cyane igeretse kabiri ikikijwe n'ubusitani bwiza cyane ndetse n'ibiti bigiye bitandukanye ikaba ikodeshwa igihumbi na magana atanu cy'idorari ikaba ifite ibirahure ku ruhande ndetse n'amatara yo hejuru.

Ubwiherero ni aho bakarabira, ubwiherero akaba ari aho ngaho h'umweru, aho bakarabira hakaba ari ruguru hafi y'idirishya, hejuru mukaba mubona itara riri kwaka.

Hari igitanda kiri mu nzu ikodeshwa amadolari magana atanu mirongo itanu buri kwezi ikaba iherereye Kabeza.

Inzu ya miliyoni mirongo irindwi n'eshanu i Kigali ifite dushe nziza cyane, irimo amakaro hasi ndetse no ku bikuta ikaba ifite irangi ryiza cyane ndetse n'idirishya rigezweho.

Inzu iherereye ku Gisozi, ikaba igura miliyoni magana atatu na mirongo itanu z'amanyarwanda, ikaba ifitemo ibikoresho bigiye bitandukanye byiza kandi ikaba ifite n'amarange meza.

Inzu ikodeshwa iri muri Kabeza ikaba ikodeshwa amadolari magana atanu na mirongo itanu, ikaba ifitemo imashini imesa ndetse n'ibindi bikoresho bitandukanye hakaba harimo na interinete.

Aha bari kutwereka inzu ikodeshwa igihumbi na magana atanu cy'amadorari ku kwezi, ikaba ifite ibyumba bibiri ikaba inaherereye kibagabaga i kigali.

Inzu ifite ibikuta byubakishije ruriba n'amadirishya y'umweru, n'ibiti n'ibyatsi bisa icyatsi n'agahanda k'amabuye.

Inzu ya miliyoni ijana na mirongo itatu iherereye i Kigali, ifite ubusitani bwiza, ifite amarange y'umweru ndetse n'amakaro agiye afashe ku nkuta no hasi. Ikaba ifite n'ikigega hejuru n'urugi rwo hanze rufite ibara ry'umutuku.

Umuhanda mwiza kandi ufite isuku bashyizeho akayira k'abanyamaguru gahagije, bamwe baratambuka abandi nabo bagakora imyitozo ngororamubiri, ku mpande hariho inyubako ikorerwamo n'ikigo cyitwa radiyanti gikora ibigendanye n'ubwizigame ndetse no kwishinganisha.

Iyi ni inzu ihagaze amafaranga igihumbi n'ijana cy'amadorari ku kwezi, ikaba iherereye mu mujyi wa Kigali, mukaba mubona utubari dusa shokora isize irangi ry'umweru, televiziyo, intebe zisa umweru n'igisenge cy'umweru ndetse n'itara .

Inzu ikodeshwa igihumbi na magana atanu cy'idolari, iherereye Kacyiru, i Kigali, ifite ubusitani bwiza, ndetse ikikijwe n'ibiti bigiye bitandukanye, ifite igipangu gifite amabara meza cyane.

Inzu ikodeshwa ibihumbi maganataratu by'amanyarwanda ifite ibyumba bibiri iherereye i Kigali i Remera, ifite amarange meza cyane ndetse n'igikoresho gikoreshwa mu kwirinda ibura ry'umuriro.

Inzu igurishwa muri kigali kuri miliyoni mirongo ine z'amanyarwanda ikaba ifite igipangu cyiza, gisize amabara meza, ndetse ikaba ifite n'amatara ku gipangu cyayo agera muri atatu.

Hagaze amadolari magana atanu mirongo itanu girereye mu mujyi wa kigali, kaba kiri ahantu bita kabeza, icyumba kimwe kikaba gifite igitanda gisa shokora hakaba hari urukuta rusa umweru n'igisenge gisa umweru hakariho n'amarido ari mu ibara ry'umukara n'umweru.

Inzu ikodeshwa ibihumbi magana atandatu. Ifite igipangu kiriho ibyuma bibonerana ndetse ikaba iri kuri kaburimbo inyurwamo n'ibinyabiziga bigiye bitandukanye.

Inzu iherereye i Batsinda i Kagugu ifite ibyumba bine, ubwogero bubiri ndetse ikaba inakodeshwa ibihumbi magana atatu by'amanyarwanda, ikaba ifite amarangi meza cyane.

Inzu iri ku isoko igurishwa nziza iri kimironko i Kigali isa umweru ikaba ikikijwe n'amakaro n'ibirahuri ikaba ifite amapave ashashe hasi n'indabyo ziteye ku ruhande.

Inzu ishashe hasi amabuye ifite indabyo n'utubuye dutoya na ruriba ifitemo amadirishya asa icyatsi.

Inzu ikodeshwa muri kabeza y'ibyumba bitatu ndetse n'ubwogero butatu ikaba igeretse kabiri, ikaba ifite amarangi meza y'umukara n'umweru, igipangu cyiza cy'umukara n'umweru ndetse ikaba iri kuri kaburimbo na hafi ya ruhurura y'amazi.

Inzu igurishwa ibihumbi ijana na mirongo ine by'idorari iherereye i Kibagabaga i Kigali, ikaba igeretse kabiri, ikaba ifite n'amarange meza agiye atandukanye ikaba inagiye ikikijwe n'ibimera bigiye bitandukanye.

Kompanyi ikora ibijyanye n'ubucuruzi bw'amazu ndetse no gukodesha ndetse no kuba washora muri ibyo bikorwa, bakaba banakora n'ubucuruzi bw'ubukerarugendo, aho bagufasha kuba wabona inzu cyangwa bakaba bakubonera aho utira imodoka cyangwa bakaba bakuyobora bitewe n'uko ushaka gukora ubukerarugendo bwawe.

Inzu igeretse gatatu iri kugurishwa amadolari igihumbi, iherereye mu mujyi wa Kigali mu karere ka Kicukiro, inzu ifite isize amabara y'umweru na shokora.

Iki ni igikoni aho bogereza ibyombo urabona utubati babikamo ibyombo n'igisenge gisa umutuku n'umweru kikaba gikoze mu amakaro y'umweru n'inzu ikaba isa umweru.

Hakaba hari amazu ageretse kabiri akodeshwa afite amakaro ku nkuta ndetse n'ibiti bigiye bitandukanye ku ruhande n'amatara afashe ku nkuta akaba ari inzu nziza cyane ikikijwe n'ibiti bigiye bitandukanye.

Ikinyabiziga k'ibinyamitende kikoreye kigaragara cyakorewe mu Rwanda n'abagabo batambuka muri iyo kaburimbo n'imodoka nyinshi ziparitse zitegereje abagenzi.

Inzu igurishwa kuri miliyoni mirongo inani n'eshanu z'amanyarwanda iherereye i Kanombe, ifite amarangi agiye atandukanye meza ndetse n'ibirahure byiza cyane.

Umugabo wambaye neza cyane, akaba ari kwamamaza inzu ihagaze miriyoni mirongo icyenda z'amanyarwanda ,ifite amarangi meza cyane n'amakaro mo imbere ndetse no hanze ikaba ifite ubusitani bugiye butandukanye.

Iduka rigeretse kenshi ricururizamo amaduka agiye atandukanye, harimo acuruza ibiribwa, acuruza imyenda, acuruza n'ibikoresho byo mu nzu bigiye bitandukanye.

Abadamu bagiye guhaha bari mu myambaro isa umutuku n'umukara imbere hakaba hari icyapa cyamamaza amavuta kikaba kiri mu ibara ry'umweru ndetse n'amavuta ari mu bwoko bugiye butandukanye ari mu mabara agiye atandukanye.

Inyubako igeretse gatatu iriho amakaro asa umweru ndetse n'imyenda y'abadamu n'ibyapa byamamaza, hakaba hari n'abantu bahagaze ku twuma utwuma dusa umukara na shokora.

Umugore wambaye umupira usa umweru, akaba ari kugura indyo zigiye zitandukanye, ziri mu mabara ya oranje, umutuku, umweru, icyatsi, akaba afite n'amverope mu ntoki isa kaki inyuma ye hakaba hari ibikuta bisa ubururu.

Iduka ririmo imyenda abantu bambara; abagore ikaba arimo imyenda ifite amarange atandukanye ndetse ahantu hateretse imyenda hakaba hari amakaro y' umweru n'umukara, hakaba hari n'igisenge gisa n'umweru ndetse n'irangi ry'ibikuta risa n' umweru.

Iduka ricuruza ibiribwa bigiye bitandukanye, hakaba hari n'abantu baje guhaha, rikaba rifite amarangi meza cyane ndetse n'ibyapa byerekana ibyo bakora cyangwa ibyo bacuruza.

Umugore uri kugurisha indyo zigiye zitandukanye, ndetse n'imbuto, hakaba harimo imbuto ziri mu mabara y'icyatsi, oranje, umuhondo, umutuku, munsi y'inyuma ye hakaba hari n'abandi bari kugurisha kandi n'imifuka isa umweru.

Abo ni abantu, bari guhaha mu iduka rigiye rifite ibicuruzwa bigiye bitandukanye, bari gufashwa n'abakozi b'aho hantu bishyura ibyo bamaze guhaha.

Iduka ricuruza ibintu bigiye bitandukanye harimo ibiribwa n'ibitaribwa, yaba ibikozwe mu mafarini, hakaba harimo abakobwa babiri bafasha abakiriya baje kubahahira.

Iduka ricuruza ibintu bigiye bitandukanye harimo ibiribwa yaba ibitaribwa ibikomoka ku mata, ibikomoka ku mafarini, n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye.

Iduka bahahiramo ibintu bigiye bitandukanya, amavuta, amasabune, urabona imbere yuwo muntu wambaye agapira k'umukara hari akameza karimo ibintu bigiye bitanduka ndetse n'amakaro asa umweru.

Aba batatu bahagaze bane imbere yabo hari ubwoko butandukanye bw'amavuta n'ibipankarite bishushanyijeho abantu iruhande rwabo bakaba hari intebe zicyatsi.

umuntu uhagaze wambaye imyenda y'umukara uri mu iduka imbere ye hakaba hari igikarito cy'umweru hasi hakaba hashashe amakaro ajya gusa umuhondo.

Ahagaze imbere y'ameza, imbere y'ameza akaba ateretseho inkweto zigiye zitandukanyekanya, inkweto zifunguye za masayi, hirya ye hakaba hari imyenda y'abagore imanitse ku bikukuta bisa umweruru.

Umukobwa uri guhaha uri mu iduka ricuruza ibintu bigiye bitandukanye, akaba yambaye ipantaro y'umukara ndetse n'ishati y'umutuku akaba, afite akantu ko guhahiramo k'umukara.

Abantu bahagaze mu iduka, rikaba rifite igisenge gisa umweru, abo bantu bakaba bambaye agapira ka oranje n'undi wambaye agapira k'umukara, imbere yabo hakaba hari ameza ari mu ibara rya shokora, bakaba bahagaze ku makaro asa umweru ndetse n'umukara kandi hakaba n'uturahure tw'ibyuma bacamo.

Isoko ricuruzamo abantu bagiye batandukanye harimo abacuruza imyenda y'abagabo ndetse n'imyenda y'abana, n'ahandi batanga amaserivisi agiye atandukanye, ni inyubako ndende igizwe na ma etaje arenga ane kandi afite amakaro hasi hose.

Ubwishingizi bwa mitiweri buhabwa abaturage b'Abanyarwanda bukabafasha mu bwivuzi, aho Leta ikwishyurira mirongo icyenda ku ijana by'amafaranga yose yo kwivuza maze wowe ukishyura icumi ku ijana ry'asigaye.

Iki ni ikigo nderabuzima gisize irange ry'ubururu afite amabati asa ubururu akaba ari n'abantu bagiye kwivurizayo.

Umuntu uhagaze imbere undi ukikijwe n'abantu batandukanye harimo abanyonzi aho bambaye utujiri tw'icyatsi hakaba hari n'ibyapa bisa umweru birimo amagambo yandikishijwe umukara n'ubururu ndetse n'icyatsi, hirya hakaba hari ikindi cyapa gisa umutuku.

Abagore bicaye ku ntebe hari ufite ishakoshi y'umukara n'ibipapuro bisa umweru bambaye imyenda igiye itandukanye.

Iduka ricuruza ibiribwa bigiye bitandukanye harimo amazi ndetse n'ibyo kunywa ndetse n'imbuto, abantu bakaba bahaza kuhahahira bakeneye ibiribwa bigiye bitandukanye bitewe n'ibyo bashaka.

Iduka ririmo ibikoresho bigiye bitandukanye, amasabune, amavuta, udukoresho bakoresha bihanaguza mu ntoki, tukaba tugiye turi mu tubati, ahantu turi hakaba hari amakaro asa umweru, inyuma yaho hakaba hari inkuta zisa umweru.

Umubyeyi wambaye ikanzu irimo amabara agiye atandukanye ari mu iduka ricuruza ibiribwa, ndetse n'ibitaribwa bigiye bitandukanye, rikaba rifite amakaro hasi ndetse n'akabati gafite amabara y'umweru n'umutuku.

Iduka ricuruza ibiribwa bigiye bitandukanye hasi hakaba hari amakaro meza cyane, hejuru hakaba hari amatara yabugezweho kandi meza.

Umugabo umwe akaba ari kwishyura ibyo yari amaze gufata mu iduka akoresheje uburyo bw'ikoranabuhanga bugezweho bwo kwishyura budakoresheje amafaranga.

Iduka rinini ricuruza ibintu byo kurya bigiye bitandukanye bitewe n'ibyo ushaka. Hakaba harimo ibikomoka ku mata, ibikomoka ku ifarini n'ibikomoka ku bindi byinshi bigiye bitandukanye.

Iduka hasi hakaba hashashe amakaro hakaba hariho utubati tugiye dutandukanye turiho ibintu by'ibiribwa bigiye bitandukanye abantu bagura.

Iduka rifite ibicuruzwa bigiye bitandukanye, hakaba hari abakiriya bari bamaze kugura, bari guhabwa serivisi yo kubabarurira ibyo bamaze kugura ngo babone uko bishyura.

Umukozi wo mu iduka ricuruza ibiribwa bigiye bitandukanye, ari gufasha umukiriya umaze guhaha mu iduka ryabo, uburyo ayakwishyura, uri gutanga serivise yambaye impuzankazo z'umutuku ndetse na shokora, urabona ko zikwiye.

Iduka ricuruza ibintu bigiye bitandukanye harimo ibiribwa ndetse n'ibinyobwa rikaba rifite amakaro hasi ndetse n'aho bashyira ibyo biribwa hafite ibara ry'ubururu.

Iduka ryo guhahiramo ibiribwa bigiye bitandukanye, risa neza rifite amakaro hasi meza, ndetse n'amatara hejuru yaka iduka.

Iduka ricuruza ibintu bitandukanye umuntu yakifashisha mu kwambara harimo impeta ,amaherena, ubukomo, shanete bya zahabu cyangwa diyama .

Iduka ricuruza ibiribwa by'ingeri zose, hari umugore uri gufashwa n'ukora muri iryo duka, uko yakishyura ibyo yamaze guhaha muri iryo duka.

Iduka icuruza ibiribwa bigiye bitandukanye, harimo abantu bambaye imyenda y'umukara, ndetse harimo n'ibyapa bigaragaza ibiribwa uje kureba ibyo ari byo, n'aho wabisanga biri mu matsinda ahantu hamwe.